Abana batoya, biga mu mashuri y'inshuke, bahagaze imbere y'umurima, iruhande rw'ipoto, ishamikiyeho insinga, zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umwana mutoya wiga mu mashuri y'incuke, afite igikoresho cyifashishwa mu gusiga irangi ku nkuta, arimo arasiga irangi ku rukuta.

Ibikinisho bikoreshwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke bifite amabara anyuranye arimo ubururu, icyatsi kibisi, umukara, umuhondo, umweru ndetse n'umutuku.

Igikinisho cy'abana batoya biga mu mashuri y'inshuke, gifite amabara anyuranye, arimo aya akurikira; umutuku, umuhondo, idoma, icyatsi cyerurutse ndetse n'umweru.

Ibyumba by'amashuri byigirwamo n'abana bato b'inshuke bifite uruzitiro rw'ibyuma rusize irangi ry'ubururu.

Ababyeyi benshi hamwe n'abakozi b'inzego z'umutekano, bateraniye mu cyumba k'ishuri kirererwamo abana b'inshuke. Hafi ya bose bambaye udupfukamunwa.

Umwana mutoya wiga mu kiciro cy'amashuri y'inshuke, afite udukinisho tw'abana ndetse n'umutsima, arimo ararya umwe mu mitsima imuri imbere, ifite amabara atandukanye.

Agafuka gatoya kabikwamo igikoresho gitwarwamo ibyo kunywa, byifashishwa n'abana batoya biga mu mashuri y'inshuke. Ako gafuka gashushanyijeho ibishushanyo by'abana kandi kari mu mabara menshi.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke bari kurya umunyenga mu bikoresho byabugenewe. Umwe yambaye agasengeri gatukura, uw'inyuma ye yambaye agapira k'amaboko magufi gatukura naho undi w'inyuma yabo yambaye umupira n'ikabutura byombi by'ubururu.

Urukuta rufasha mu kwigisha, rushushanyijeho ibase ndetse n'umweyo, ibyo byose bifasha mu kwigisha abana b'inshuke.

Umwana mutoya uri mu kigero cy'abana biga amashuri y'inshuke, arahagaze mu ishuri, afite igitabo mu ntoki, imbere ye hahagaze umwarimu we.

Ibikinisho by'abana b'inshuke birunze bigerekeranye bifite amabara atandukanye ari yo: umutuku, umweru ndetse n'icyatsi kibisi, bigiye birutana uhereye ku kibanza kugera ku gisozo.

Urukuta rushushanyijeho bimwe mu bishushanyo bifasha mu myigire y'abana b'inshuke. Ibyo bishushanyo birimo umwenda wo kwihanaguza igihe umuntu avuye koga, umweyo ufasha mu gukubura ndetse n'ibasi.

Igikapu cy'umwana wiga mu mashuri y'inshuke kiriho amabara atandukanye arimo ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'idoma gishushanyijeho kandi akanyamaswa abana bakunda.

Icyumba cy'amashuri kigirwamo n'abana batoya b'inshuke gishushanyijeho ingorofani iri mu ibara ry'icyatsi, imbere yacyo hari abana babiri kandi ku rukuta rwacyo rw'imbere hashushanyijeho igishyimbo.

Agakapu gatoya k'umwana mutoya wiga mu cyiciro cy'amashuri y'incuke, ako gakapu gashushanyijeho igikinisho gikoze mu mabara menshi.

Ibishushanyo by'abantu bafite amatwi manini ndetse n'ibikoresho bya kera byifashishwa mu kwigisha abana batoya biga mu mashuri y'inshuke.

Icyumba kinini kigabanyijemo ibindi byumba bitoya, byigirwamo n'abana b'inshuke, imbere yacyo hahagaze abo bana b'inshuke. Bose bambaye impuzankano.

Ibikinisho bikoreshwa mu kwigisha abana bageze mu kigero k'icyiciro cy'amashuri y'inshuke, ibyo bikinisho bifite amabara atandukanye ari yo: icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'andi.

Icyumba cy'ishuri, cyifashishwa mu kwiga n'abana biga mu mashuri y'inshuke. Ku nkuta zacyo imbere hariho ibishushanyo binyuranye, bishushanyije hifashishijwe, amarangi atandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, birimo uturabo, udukinisho tw'abana ndetse n'utundi dukinisho twanditsemo amagambo y'icyongereza.

Umwana mutoya wiga mu mashuri y'incuke ari gukina imikino y'abana akoresheje ibikoresho byabugenewe bifite amabara atandukanye.

Umupira ukoze mu mabara menshi, usa n'uwifashishwa n'abana biga mu mashuri y'incuke, uri mu nzira, inyamaswa imeze nk'imbwa iri kugenda iwusunika.

Ibikoresho by'ibikinisho, bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke. Bifite amabara n'amashusho atandukanye, amabara arimo icyatsi, umutuku, umuhondo ndetse n'andi.

Ku rukuta rw'ishuri ryigirwamo n'abana biga mu mashuri y'ikiciro cy'inshuke, rushushananijeho inyamaswa ebyiri, imwe ni iyo mu bwoko bw'ibiguruka, naho indi imeze nk'imbogo.

Urukuta rushushanyijeho ibishushanyo binyuranye byashushanijwe hifashishijwe amarange y'amabara atandukanye, harimo igishyimbo, imyumbati ndetse n'ibindi.

Ishuri ry'abana batoya, aya bakunze kwita amashuri y'inshuke, rigizwe n'inyubako igeretse ndetse n'ahantu abana bakinira imikino itandukanye.

Ibishushanyo by'abana babiri b'inshuke, biga mu mashuri y'inshuke, bafite udukapu two mu mugongo, dufite amabara y'ubururu ndetse n'idoma, bambaye impuzankano irimo amajipo n'amakabutura y'icyatsi.

Ibikinisho by'abana bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, biragerekeranye kandi bifite amabara atandukanye, arimo umukara, umweru, idoma, umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'andi.

Umwana mutoya, ugeze mu kigero cy'abana biga amashuri y'inshuke, ari gukinira mu bikoresho byagenewe gukoreshwa n'abana bo muri icyo cyiciro. Inyuma ye hari umwana, wambaye umupira utukura ndetse n'undi muntu mukuru utagaragara neza.

Ibikoresho bifasha abanyeshuri kwiga bikoreshwa n'abana biga mu mashuri abanza birimo: inyuguti zishushanyije, imibare ndetse n'ibindi.

Igishushanyo kigaragaza umwana uhagaze ku butaka bwagutse, buteyeho ibimera bitandukanye ndetse n'inyamaswa zirukanka muri ibyo bimera ndetse n'ibyatsi.

Ibishushanyo bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza. Bigaragaza inyuguti hagati muri byo ndetse no hanze yabyo.

Ibikoresho binyuranye, bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza, birimo inyuguti zishushanyije ndetse n'ibindi bifite amabara atandukanye.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu mashuri abanza harimo ibi bikurikira: ikaramu y'igiti, ikaye, irati, imashini ifasha kubara ndetse n'ibindi.

lbikoresho bitandukanye ,byifashishwa mu kwigisha abana biga amashuri abanza, ibyo bikoresho bifite amabara atandukanye ,arimo icyatsi kibisi, umutuku ,umuhondo ,ndetse n'ubururu.

Abana babiri batoya, umuhungu n'umukobwa, bambaye impuzankano z'ishuri, zirimo ishati y'ubururu bwerurutse ndetse n'ikabutura n'ijipo bya kaki, bahagaze imbere y'abarezi babo bari kubahemba.

Abana biga mu mashuri abanza, bahagaze imbere y'amashuri yabo, bamwe bari gukina imikino y'abana. Benshi muri bo bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amajipo n'amakabutura by'ubururu.

Abana biga mu mashuri abanza bicaye mu cyumba k'ishuri bigiramo. Babiri muri bo ni abakobwa, bambaye impuzankano y'abakobwa. Abandi basigaye ni abahungu, umwe muri bo ahagaze ku ntebe bicaraho.

Inyubako nini yubatse igeretse, ifite inkingi zisize irangi ry'umweru ndetse n'inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu, imbere yayo hashinze idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi.

Abana batoya biga mu cyiciro cy'amashuri abanza, bicaye hasi bari kumwe n'ababyeyi babo bicaye ku ntebe.

Udukinisho tw'abana turi mu mabara menshi yiganjemo: ibara ry'icyatsi, umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'andi anyuranye.

Ibikoresho byo kwiga bikoreshwa n'abana bageze mu kigero cy'abana biga mu mashuri abanza, ibyo bikoresho birimo ibishushanyo by'inyuguti ndetse n'iby'imibare.

Icyumba k'ishuri cyubakishijwe amatafari ahiye, giteretsemo akabati karimo ibitabo n'amakaye, ku rukuta rwacyo, hometseho icyapa gishushanyijeho ibikoresho bitandukanye.

Inzu nini igabanyijemo ibyumba by'amashuri, bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, imbere yayo hari imbuga yo gukiniramo itarimo ibyatsi.

Ikigo cy'amashuri abanza kigizwe n'inyubako nyinshi, urubaraza rusakaye, inkingi nyinshi zifata isakaro ndetse n'ikigega kijyamo amazi.

Ibikinisho bitandukanye bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza, biragerekeranye kandi bifite amabara anyuranye arimo; umutuku, muhondo, icyatsi, ubururu ndetse n'andi.

Inzu nini yubatse igeretse, ishobora kuba ari icyumba cy'amashuri abanza cyangwa se ayisumbuye. Inkingi zayo zisize irangi ry'umweru, naho amadirishya n'inzugi byo bisize irangi risa n'ibara ry'icyatsi.

Ibikoresho bikoreshwa mu isomo ry'imibare cyane cyane ku banyeshuri biga mu mashuri abanza. Ibi bikoresho ni ibi bikurikira: Ikaramu y'igiti, agacongesho, irate ndende, irati ya mpande eshatu zitangana n'irati imeze nk'igice cy'uruziga.

Ibikoresho byifashishwa higishwa abana biga mu mashuri abanza cyane cyane imibare. Ibyo bikoresho byiganjemo irati ndende, irati ya mpande eshatu zitangana, irati ikoze nk'igice cy'uruziga ndetse n'agacongesho gasongora ikaramu y'igiti.

Abana batoya biga mu mu mashuri abanza bicaye ku musambi undi yicaye ku ntebe bari kuganirizwa n'ababyeyi babo.

Igitabo gikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza mu mwaka wa gatandatu ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubukorikori, gifite amabara anyuranye.

Icyapa kinini cyanditseho gutangiza ibikorwa bya siporo n'umuco mu mashuri, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri nagatanu, mu Karere ka Nyagatare.

Umwana mutoya wiga mu kiciro cy'amashuri abanza yambaye ishati y'ubururu bwerurutse ari kwandika ku kibaho k'icyatsi kiri kuru rukuta rwubakishije amatafari.

Ibikoresho binyuranye bikoreshwa mu koroshya akazi, byigishwa abana biga mu mashuri abanza, birimo inyundo, urukero, umukasi ndetse n'ibindi.

Umugabo w'umwarimu wigisha mu mashuri abanza, yicaye imbere y'ibitabo byinshi ndetse n'impapuro nyinshi, ameze nk'uri gukosora imikoro abana bakoze.

Amoko atandukanye y'imbuto zifite amabara atandukanye arimo: umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse na kaki. Izo mbuto ni inkeri, umuneke, pome ndetse n'izindi.

Inzu nini ifite ibyumba by'amashuri abana bigiramo, imbere yayo hari igiti kimanitseho idarapo ry'u Rwanda, isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari ibyatsi.

Udukoresho twiganjemo imitako, ikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza. Iyo mitako iri mu mabara menshi anyuranye, arimo umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Umubyeyi w'umusaza yicaye imbere yabana batoya biga mu mashuri abanza ari kubigisha. Iburyo bwe, hari igiti kinini ndetse n'inzu isakaje amabati atukura.

Abana biga mu mashuri abanza, bateraniye mu cyumba cy'ishuri, bamwe barashaka gusubiza ibyo mwarimu ababajije, umwe muri abo bana yambaye umupira w'ubudodo, ufite ibara ry'ubururu.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza harimo irati ndende, irati ya mpande eshatu zitangana, irati ya mpande eshatu na none ndetse n'irati zingana n'igice cy'uruziga.

Itsinda rigaragaza inyuguti ndetse n'aho itsinda rimwe rihuriye n'andi, byose bikaba ari ibikoreshwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza.

Ibikoresho binyuranye bifasha mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza, biteretse bigerekeranye kandi bifite amabara atandukanye arimo: umukara, umuhondo, ubururu ndetse n'andi.

Urugi runini rukozwe n'ibyuma, rukinze uruzitiro ruzengurutse igororero ry'abana rya Nyagatare. Iruhande rw'urwo rugi hari akazu gato abacunga umutekano baba barimo.

Umubyeyi w'umusaza wambaye ishati itukura wicaye ku ntebe ikoze mu giti arimo araganiriza abana be, iruhande rw'igiti kinini imbere y'inzu ifite amabati atukura.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga n'abana biga mu mashuri abanza, birimo imikasi, ikaramu y'igiti, agacongesho, amakaye ndetse n'imashini ifasha kubara.

Impapuro zishushanyijeho amashusho atandukanye, afasha mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza. Zimwe muri izo mpapuro ziriho amashusho ya kare afite amabara y'umweru, izindi ziriho amabara y'umutuku.

Igikoresho kibikwamo ibindi bikoresho byifashishwa mu kwiga Imibare birimo: irati, ikaramu y'igiti, agacongesho ndetse n'ibindi.

Inziga ebyiri zirimo imibare hagati yazo zigaragaza uko abana biga mu mashuri abanza babasha kumenya imibare itsinda rimwe rihuriyeho n'irindi.

umwana mutoya wiga mu mashuri y'inshuke, yambaye igitambaro cy'umutuku kiriho impapuro ku ruhande zanditseho amagambo anyuranye.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza, harimo inziga zikoze muri pulasitike ndetse n'imipira yo gukina.

Ibikoresho byinshi byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza, birimo ibishushanyo by'inyuguti, amacupa y'amavuta, intebe, ameza ndetse n'ibindi.

Igikoresho kibika ibindi bikoresho byifashishwa mu kwiga imibare, birimo irati, ikaramu y'igiti ndetse n'ibindi, gifite Ikarita igaragaza Imigabane ya Afurika y'Uburayi ndetse n'iyindi.

Ibikoresho binyuranye bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Harimo ikaramu z'ibiti, imipira yo gukina, ibipirizo byo gukina ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri biga imyuga y'ubumenyingiro bateranye ari benshi kandi bose bambaye impuzankano ikozwe mu bisarubeti by'ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano, bateraniye mu kiliziya, bameze nk'abibumbiye muri korali.

Itsinda rinini ry'abana biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ibara risa n'igitaka, mwarimu wabo abahagaze imbere.

Abana batoya b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, bose bambaye impuzankano y'ishuri irimo ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'icyatsi bari kureba ku rupapuro bagasobanurirana.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, yambaye impuzankano igizwe n'ishati y'mweru, umupira w'amaboko maremare w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umweru, ari kwakira ibihembo yagenewe n'abayobozi b'ishuri.

Abana biga mu mumashuri yisumbuye, bambaye impuzankano, igizwe n'ishati y'ubururu bwerurutse ndetse n'amajipo n'amapantaro bya kaki, bahagaze ku mirongo bazengurutse indabo ziri inyuma y'umwarimu wabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bari mu gikorwa cyo kwibuka, bari gukora urugendo bambaye imyenda y'impuzankano, bari kumwe n'ushinzwe umutekano.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bose bambaye imipira y'ubururu kandi y'amaboko magufi, imbere yabo hari umusore wambaye ijire y'icyatsi ukora muri kuruwaruje.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye hasi mu mbuga irimo ibyatsi bose bambaye impuzankano barimo barigishwa n'umugabo ukora mu nzego z'umutekano.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano, yiganjemo amashati y'mweru, amapantaro y'umukara ndetse n'aya kaki, hirya yabo hari ibisima bisize irangi ry'ubururu.

Inyubako nini yubatse igeretse, ifite ibyumba byinshi byo kwigiramo, inkingi zayo zisize irangi risa n'umuhondo, inzugi zayo n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari imbere y'urukarabiro rugezweho bari gukaraba, bose bambaye imipira y'umuhondo, inyuma yabo hari ushinzwe kubereka uko bakaraba.

Abana b'abahungu n'abakobwa, biga mu mashuri yisumbuye, bahagaze hamwe mu kigo cyabo, imbere y'icyapa kigaragaza Akarere ka Nyagatare ndetse n'indi migirire ikwiye cyane cyane iyerekeranye n'isuku.

Icyumba cy'ishuri kigirwamo n'abana biga mumashuri yisumbuye, cyicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano ziganjemo ishati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu. Iburyo bwabo ahagana inyuma, hahagaze umwarimu wabo.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye imyenda igaragaza ko basoje ikiciro bari barimo, inyuma yabo hahagaze abarezi ndetse n'ababyeyi babo.

Abana batoya biga mu mashuri abanza, bahagaze mu mbuga yo ku ishuri imbere y'urukarabiro. Bose bambaye amakabutura.

Inyubako nini yubatse igeretse, ihagazweho n'abantu batatu, inkingi zayo ni umuhondo naho udutangirabasazi two dusize irangi ry'ubururu.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, rusize irangi ndetse rwometseho icyapa kigaragaza ibikoresho bikoreshwa muri laburatwari.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari mucyumba cy'ishuri cya laboratwari, harimo kandi ibikoresho byinshi harimo ibirahure bakoresha bavanga ibintu.

Abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, bicaye hamwe kandi bose bambaye impuzankano, bose bambaye amajipo y'umukara ndetse n'amashati y'umweru.

Icyumba kinini kigabanyijemo ibindi byumba bitoya bikoreshwa mu burezi bw'abana biga amashuri yisumbuye. Uruzitiro rwacyo rugizwe n'ibyuma bisize irange ritukura.

Umubyeyi wambaye imyenda y'ubururu ahagararanye n'umwana we wiga mu mashuri yisumbuye bahagaze ku ngazi imbere y'ishuri rifite isakaro ry'ibara ritukura.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bicaye hamwe bambaye impuzankano, bateze amatwi inama z'umwarimu kandi bicaye mu nzu nini isize amarangi yiganjemo umweru.

Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cyangwa se umwarimu mu kigo cy'amashuri yisumbuye afite indangururamajwi mu ntoki arimo arabwira abantu bahagaze imbere bashobora kuba ari ababyeyi cyangwa se abanyeshuri.

Abana benshi b'abanyeshuri bahagaze ku mirongo igororotse imbere y'ibyumba byabo by'amashuri bigiramo bose bambaye impuzankano igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ijipo cyangwa ikabutura y'ubururu.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bahagaze ku murongo, bategereje gusakwa, mbere yuko basubira mu kigo, bamwe muri bo bambaye impuzankano z'umuhondo hejuru ndetse n'amajipo asa n'ivu.

Abana benshi bambaye impuzankano, yiganjemo ibara ry'umweru n'amapantaro y'umukara cyangwa se ikigina, bahagaze hamwe mu kigo cyabo.

Ishuri rinini ryubatse rigeretse rifite inkingi zisize irangi ry'umweru kandi ryubakishije amatafari ahiye.

Icyumba cy'ishuri kigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, kirimo abantu benshi biganjemo abakora imirimo ishingiye ku bumenyingiro.

Umugore ukora umwuga wubudozi ahagaze imbere y'imashini akoresha mu kudoda, afite imetero imufasha gupima ndetse n'urushinge, hirya ye hari abandi bakorana.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bicaye hamwe ari benshi, bambaye impuzankano y'ishuri ryabo, igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amakabutura n'amajipo y'umukara, imbere yabo hahagaze umurezi wabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano, bafite ibikapu mu ntoki, basoje amasomo baratashye.

Abana batoya b'abakobwa, biga mu mashuri yisumbuye, bafite udukweto bakoze ndetse n'utuntu bambara ku maboko bikoreye.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, wambaye impuzankano isa n'iya bagenzi be, ufite impamyabumenyi yahembwe n'umwarimu we.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano yiganjemo amashati y'umweru, bicaye mu ishuri, ku ntebe z'ibiti, barimo barandika.

Abana batatu b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, bicaye ku ngazi imbere y'icyumba cy'amashuri bigiramo. Inzugi z'icyo cyumba zifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako z'ikigo cy'amashuri zegeranye ari enye, hagati yazo harimo ibiti byinshi kandi birebire, inyubako ibanza isize irangi ry'umuhondo.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, barimo barateranya ibikoresho birimo insinga, iradiyo ,ndetse n'ibindi..Bose bambaye impuzankano y'ishuri ryabo.

Umwana w'umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye arimo aragenda muri imwe mu nzira ziri mu kigo yigamo. Iruhande rwe hari igiti kinini inyuma ye na ho hari ibindi biti byinshi.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bicaye ku modoka hirya yabo hari amahema kandi bose bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo by'umukara.

Ikigo cy'amashuri kigamo abana bageze mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye, kizengurutswe n'urukuta rwubakishije amatafari ahiye, imbere gifitemo bimwe mu bikoresho byifashishwa mu mikino y'abanyeshuri.

Abana batoya biga mu kiciro cy'amashuri yisumbuye, bicaye mu cyumba cyabo k'ishuri bambaye impuzankano zigizwe n'ishati y'ubururu, ikindi kandi bambaye udupfukamunwa dutukura, utw'ubururu ndetse n'ak'umukara.

Icyumba k'inzu, gifite inkuta zisize amarangi ybara ry'umweru, gifite urugi rukoze mu mbaho za ribuyu.

Abanyeshuri benshi, bicaye mu cyumba cy'ishuri, imbere yabo hari impapuro ndetse bicaye bafite amakaramu nk'abari gukora ikizamini.

Umusore ukiri mutoya, ari kumanuka ingazi nk'uvuye mu ishuri, yambaye agapira k'amaboko magufi, karimo amabara y'umukara ahagaze ndetse n'ay'ubururu bwerurutse ahagaze.

Inyubako nini kandi ndende ifite ubusitani imbere yayo, abanyeshuri batatu bari kuyigenda imbere, ifite amabati atukura kandi amadirishya yayo akozwe mu birahuri.

Icyumba cy'ishuri ryigirwamo n'abanyeshuri biga kaminuza ndetse n'amashuri y'ubumenyingiro, rigizwe n'urukuta rusize irangi ry'icyatsi ndetse n'akapa kariho andi marangi.

Ibikoresho binyuranye bikozwe mu ibumba byose bibitse mu kabati, bimwe muri byo bisize irange rituma bidasa n'ibindi.

Abantu benshi barimo abasore n'inkumi barangije kwiga kaminuza ndetse n'amashuri y'ubumenyingiro, bahagaze hamwe bagaragaza impamyabushobozi bahawe.

Ibikoresho bikozwe mu ibumba, byakozwe n'abanyeshuri biga kaminuza cyangwa se biga mu mashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Ishusho y'umuntu ibumbye mu ibumba yakozwe n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyi ngiro iri mu cyumba, inyuma yayo hari idirishya ririmo ikirahure.

Ibikoresho bikozwe mu ibumba, biteretse hasi ari bitatu, iruhande rwabyo hari irindi bumba ritarakoreshwa ryo kwifashisha mu gukora ibindi bikoresho.

Urukuta rumanitseho icyapa gifite ibara ry'umweru gishushanyijeho ibintu bitandukanye birimo: inanasi, imineke, amacunga ndetse n'ibindi.

Intebe ibumbye mu ibumba yo kwicaraho iri kumwe n'ibindi bikoresho bikorwa mu ibumba bishobora kuba byarakozwe n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri benshi biga imyuga y'ubumenyigiro na kaminuza, bahuriye mu cyumba cy'ishuri baricaye, umwe muri bo afite indangururamajwi ari kubwira abandi.

Urukuta rusize amarangi y'amabara menshi yiganjemo ibara ry'icyatsi. Kuri urwo rukuta hari n'akapa gashushanyijeho ibintu byinshi, hakoreshejwe amarangi menshi.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane kigizwe n'inzu nini yubatse igeretse, ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti bitandukanye, birimo imikindo.

Igikoresho kinini kimeze nk'akabati, kigizwe n'imbaho za ribuyu zicomekeranije mu buryo bw'ubuhanga bisa n'ibyakozwe n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyi ngiro bari imbere y'abarezi babo bari kwiyandikisha, abarezi babo bambaye itaburiya y'umweru.

Abanyeshuri biga amashuri ya kaminuza ndetse n'ubumenyingiro, bambaye impuzankano igizwe n'imipira y'amaboko magufi y'ibara ry'icyatsi cyijimye, bahagararanye n'umwarimu wabo arimo arabigisha.

Icyumba cy'ishuri, kirimo ameza yo kwigiraho, ateretseho ikaye hejuru yayo, urukuta rwacyo rufite aho bacomekera ibikoresho by'ikoranabuhanga ku muriro ndetse hegetseho ibibaho, byifashishwa mu kwandika.

Ibibaho byinshi biriho utuntu tunyuranye turimo amarangi ndetse n'imitako byose byakozwe n'abanyeshuri biga ubumenyi ngiro.

Idirishya rikozwe mu kirahure ndetse n'ikizingiti cy'icyuma, hejuru yaryo na ho hari ibyuma ariko byemerera umuyaga gutambuka.

Inyubako igeretse, ifite amapoto, ashamitseho insinga zizana umuriro w'amashanyarazi, imbere yayo hari ubusitani.

Igikoresho gikozwe mu ibumba giteretse ku kindi gikoze mu giti, iruhande rwacyo hari ibindi bikoresho bikozwe mu ibumba byose biri mu nzu ifite urukuta rusize irangi ry'umweru.

Akabati kanini kabitsemo ibikoresho binyuranye byinshi muri byo bikozwe mu ibumba ariko na none bisize irangi rituma udapfa kumenya ko bikozwe mu ibumba.

Urukuta rw'umweru rumanitseho igishushanyo gishushanyijwe hifashishijwe ikaramu y'igiti ndetse n'urupapuro, ku ruhande rw'iburyo ku rukuta hariho ikindi gishushanyo gishushanyishije irangi ry'ubururu.

Idirishya ry'inzu rikozwe n'ikirahuri kinini cyane ndetse n'ikizingiti cy'icyuma ndetse n'ibindi byuma biri hejuru yaryo, ku kirahuri hometseho agapapuro kandiwanditseho inyuguti n'imibare mu'ibara ry'umukara.

Ishusho y'umuntu ikozwe mu ibumba, iteretse ku kintu gikozwe mu rubaho rw'igiti. Inyuma yayo hari urukuta rusize irangi ry'umweru.

Inyubako nini cyane, yubatse igeretse, ifite inkingi z'umweru ndetse n'inkuta z'umweru, amadirishya n'inzugi zayo na byo ni umweru, ifite kandi ubusitani imbere yayo.

Inyubako nini yubatse igeretse ifite amadirishya y'ibirahuri, imbere yayo yubakishije amatafari isa n'iyigirwamo n'abanyeshuri ba kaminuza cyangwa abiga ubumenyi ngiro.

Abanyeshuri benshi barimo abasore ndetse n'inkumi, bateraniye mu cymba bigiramo kandi bose bambaye impuzankano, ifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Imbaho nyinshi zisize amarange y'amabara atandukanye, zikoreshwa mu gufasha kwiga ku banyeshuri biga kaminuza ndetse n'amashuri y'ubumenyingiro.

Umunyeshuri wiga kaminuza ndetse n'imyuga y'ubumenyingiro yicaye imbere ya mudasobwa inyuma ye hari akabati karimo ibitabo byinshi.

Urugi rukoresheje ibirahure, ndetse rufite ibizingiti bikoze mu cyuma, hejuru yarwo n'aho hari ibindi byuma, rufashe ku rukuta rusize irangi ry'umweru.

Igikoresho gikoze mu ibumba, giteretse hasi ku mbaho, iruhande rwacyo hari irindi bumba ritarakoreshwa. Inyuma yacyo harunze ibindi bintu byinshi birimo imyanda.

Imodoka ebyiri zihagaze aho bahagarika imodoka, ahantu hasakawe n'ibati hafite inkingi z'ibyuma, imbere yazo hari imbuga ikozwe n'amatafari.

Urukuta rusize irange riri mu ibara ry'icyatsi kandi rwometseho udupapuro dushushanyijeho ibintu bitandukanye, hakoreshejwe amarangi y'amabara anyuranye.

Urukuta ruriho amarange y'amabara atandukanye, rukoreshwa mu kwiga n'abanyeshuri biga kaminuza ndetse n'amashuri y'ubumenyingiro. Ibara ryiganje ku rukuta, ni ibara ry'icyatsi.